Kubaha biba byiza abaturage iyo bakubaha bakagukundira mubana neza. Mujya inama, mwajya inama bikaba byiza, kugira ngo mugire iterambere ry'Umudugudu, biba byiza cyane kandi abantu bose bakabibona muri gahunda ya Leta.

Kwiga imbunda bisaba kugira ngo ube ubifitiye uburenganzira ,cyane cyane inzego z 'umutekano ni zo ziba zishinzwe kwiga imbunda.

Ikinyabiziga gushya, inkongi ikomoka kuba harimo esanse, ugacana umuriro bugufi y'aho moteri ya yo iri, bigateraga inkongi.

Nkunda urwego rw'umutekano porisi y'u Rwanda. Iducungira umutekano, ndetse igatabara aho bikomeye, no mu bindi bihugu igeramo.

Kujya mu isoko ugiye gucuruza, ubona abantu benshi bakiriye abaguzi, ndetse haba harimo n'abantu baje gutembera, bose baba baje mu isoko ariko isoko rigirwa n'abantu babiri gusa, nibo barema isoko bonyine, abo bantu babiri ni umugore n'umugabo.

Kujya mu nama y'abaturage rusange. Bagatumiramo DASSO, ndetse n'izindi nzego z'umutekano, bagafatikanya kuganira ku kijyanye n'umutekano.

Dukunda ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda . Abagituye bose bagira umutekano kandi umutekano ni bamwe muri bagenzi bacu bawudushakira ,bitanga bakadushakira amahoro .Turabakunda.

Abaporisi bakora akazi k'ubwitange bagakorana umurava, kuko iyo bari gucunga umutekano, babikora kinyamwuga iyo bagiye gutabara ahantu habaye ikibazo, bagenda bitanze kandi baba basa neza, kubera iniforume yabo baba bambaye isa neza.

Umuntu wambaye imyenda ya gisirikari aba ari mwiza, arinda abaturage, akabitangira akabashakira amahoro kugira ngo babone amahoro mu gihugu cyabo ndetse no mu mahanga.

Gukoresha inama uri muyobozi bigira umusaruro kuko abantu benshi bagutega amatwi, bakita ku ijambo ugiye kubabwira kuko baba bagukumbuye, kuberako muba mutaziranye bagukunda cyane.

Kamera ziba nziza kuko zituma abasambo batiba, iyo ziri kureba mu byerekezo bitandukanye, uba ushyizeho uburinzi, kugira ngo abasambo nibaza kukwiba ubone uko ubabona baje kukwiba iba nziza.

Iyo westaye kamera iwawe biba byiza, kuko iyo kamera igufasha kugira ngo umuntu aje kukwiba, cyangwa se hari icyangiritse iwawe bibitewe n'umuntu runaka, uhita ubibona aho byatangiriye nuko byagenze n'uwabikoze, ibimenyetso ukaba urabibonye biba byiza.

Nkunda ingabo z'u Rwanda cyane cyane, abayobozi b'ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndabakunda uko baba bitwara ,bitwarana disipurine, ikinyabupfura baragitojwe ndabakunda.

Kwiga guteka kuri gaze biragora, ndetse n'umuntu ntabwo ayitekaho ari umutwe, isaba umuhanga kugira ngo amanze yigishe abantu bagiye kuyitekaho igihe kirekire, kugira ngo wa muntu azabe ari umuhanga.

Gupakira ama modoka ibintu byinshi biyirenze, biyivuna carsetheseri yari yo hejuru, tagisi ntabwo yakagobye gupakira ibintu biyisubya ibiro, abagenzi bayigera ubwo rero iyo upakiye byinshi uba wayivunnye.

Kugura imodoka nziza birahashimisha, abakubonye barakubaha ndetse n'abaporisi bakubonye baravuga bati umuntu afite imodoka nziza, nta bwo yabura ibyangombwa, biba byiza nawe ugenda wumva ufite ishema n'isheja ryo kwishima, Biba byiza cyane, kugura imodoka nziza.

Gutinda ikiraro bisaba imbaraga nyinshi z'umudugudu abantu iyo bishyize hamwe baragitinda abantu bakakinyuraho gikomeye kubera imbaraga zabo baba barashizeho, Kandi kiba cyiza kugira ngo mu mudugudu babone ko bambukiranya basura ubundi mudugudu.

Inama ziba nziza, igihe cyose abantu bari mu nama bumva ari byiza kuko bungurana ibitekerezo, ku buryo uwumvise inama akayikurikiza bimuha agaciro. Ndetse akazakageza ku bandi ako gaciro yihaye.

Nkunda inama. Abateraniye muri iyo nama baganira ibijyanye n’ingingo igezweho kuri uwo munsi. Ugataha, hari ibindi usobanukiwe. Ntabwo uba ukijijinganya.

Inama yateguwe n'ubuyobozi bw'umudugudu. Ndayikunda cyane kuko ibintu biganirwamo n'ingirakamaro, ikemura n'ibibazo by'abaturage benshi bose bagataha bishimye.

Nkunda inteko y'abaturage, mudugudu iyo ari kuyiremesha haba harimo n'inzego z'abayobozi zikomeye zidufasha gukemura ibibazo byari byarananiranye, na babandi bamasarigoma tukafatira icyemezo kuko tuba turi kumwe nk'abaturage bazi umudugudu wacu.

Iyo ndikureba ibirori birashimisha, naba nari mfite no mu mutwe hananiwe biranshimisha cyane. Ababyinnyi bikoreye uduseke baberewe wabareba rwose ukabona baraboneye birashimishije cyane.

Ibikoresho by'ibwami byakoreshwaga mu gihe cya kera, uyu munsi na n'uyu munsi biracyashimishije, birashimisha umuntu wese ubibonye biramushimisha kuko byari ibikoresho byiza by'ibwami.

Gukora imyiyereko bisaba kuba warabyitoje, ufite n'ahantu wabyitoreje. bigaragara neza ku bantu, kandi binashimisha cyane, abantu iyo babirebye, bose ubona bishimye.

Abahungu b'i bwami barambaraga ,hari ibyo bari baragenewe kwambara ndetse ku buryo babaga bikwije, mu mutwe bambaye ibintu bisa neza ,imyenda yabaga isa neza ubona ari abantu bakeye, byarashimishaga.

Umuco nyarwanda wa kera abagore barabohaga, ikirago bakakiboha bakagera n'igihe bakabuzanya, ibyo kuboha ikirago kugira ngo bo bwabo, ni yaramutse umukobwa warerewe mu rugo ufite umuco umukobwa utaruzi kuboha kera yarabegwaga.

Inka za kera z'ibwami, zategaga amahembe zitwaga inyambo. Kandi zabaga ziberewe, zimeze neza. Ku buryo wazibona ukabona zishimishije cyane.

Uduseke tuba umutako mwiza, yewe no mu nzu ugafite akagatereka ku kabati kagaragara neza, ukikoreye noneho ugiye gutwerera cyangwa se hari ubukwe ugiyemo bwa mugenzi wawe, ugaragara neza cyane.

Isekuro iba nziza, kuko bayifashisha bagasekuriramo nk'amasaka yayandi atameze, kugira ngo inkumbi ziveho, noneho babone uko bayagosora, iba nziza ni uko biba bayisekuriramo isombe, iraryoha.

Umukobwa kuvuza ingoma kera babyitaga kirazira, kiriziya yakuye kirazira ,ubu uyu munsi ni uburinganire buri umwe wese agera aho undi yabuzwaga kugera, twese twemerewe kuvuza ingoma.

Mu muco nyarwanda barahekaga, umugeni bamujyanaga mu ngobyi bamutwikiriye ndetse n'inzoga yikoreye zigiye kuvuga ko bafite umugeni wabo, ndetse icyo gihe buri wese yaranywaga, akishima, ubukwe bukagenda neza, bwagendaga neza cyane.

Kera habagaho ba rushimusi bagashimuta inyamaswa mu ishyamba bagatuma inyamaswa zitororoka kubera ko bajyaga mu ishyamba kwibamo inyamaswa kugira bazirye, noneho iterambere rikabura, amashanyarazi bakiba insinga zayo zatumaga bacana.

Inkono bitaga akeso, yabaga nziza yaryoshaga inyama, inyama zatekerwaga muri ako keso zararyohaga, ndetse abantu baraziryaga bakumva bishimye zararyohaga gusumba izo mu safuriya.

Kwambara amayugi byumvikana neza mu matwi y' abantu, kuko ubyumvise yumva ko ari intore ziriguhamiriza; (guhamiriza bishimisha) uwo mudiho ushimisha abaje kuwureba no kuwumva.

Igisabo kiba cyiza kuko gicundirwamo amata, ndetse abakobwa n'icyo bafataga bagacunda amata kuko babaga ari abakobwa b'umutima babaga bubaha inka cyane, byabaga bishimishije.

Kera habagaho imiseke, abantu baba bakoresheje ubukwe, kugira ngo bafungurire abandi babone uko banywaho, bakagenda bagasoma ku ntango umugeni, umugore n'umugabo, bamara gusama kutango bagahuriza hamwe, babandi bakaba babafunguriye ngo babone uko baza kunywa kuri ya ntango, byabaga byiza byagaragaraga neza.

Umuco wa kera abagore babaga mu mbere, n'abakobwa bagiye gushaka, bafatwaga barimo icyansi bacundaga amata, ngo umukobwa niwe wari ushinzwe gucunda amata, avuye gushaka icyarire cy'inka.

Dukunda ababyinnyi b'intore iyo bari guhamiriza, biba byiza ubona baberewe ndetse bashimisha abantu, buri wese agataha aruhutse mu mutwe, byaga byiza cyane kuko ba mukerarugendo barabikunda.

Kera habagaho umwuko bitaga indosho. Indosho barayikoresha mu mwanya wo kugira ngo bumve ko ibiryo by'ibishyimbo byahiye, cyangwa se bari kugira ngo barure inyama. Yabaga imeze nk'ikirushe cyabaga gifukuye ariko kibajijwe mu giti.

Intara igosora ibishyimbo ,ndetse hakaba n'urusyo kera babetagaho amasaka yo kubeteza inzoga ,byabaga byiza kuko urukoma rw'iyo nzoga rwararyohaga ,abantu benshi bararukundaga byabaga ari gakondo igezweho.

Ikirago kiba cyiza bacyicaraho, ndetse n'intara iba nziza bayitahuriraho cyangwa se bakayiteguraho imyaka kugira ngo bayigosore, ise neza babone uko baza kuyitegura mu kuyiteka. Ibe iryoshye, iryoshye cyane biraryoha.

Gutonora ibitoki ugaterera mu muzinga, bisaba kugira ngo nyuma yaho bakame, mushake amakoma maze mukame, mu bitoki mushyiremo n'amazi gusa. Abantu bose bagomba gutonora batuje, baganira kugira ngo igikorwa kigende neza.

Mu muco gakondo, hahoze ho intebe za kinyarwanda, akaho, inanga, ndetse no mu mbere hategurwagamo, ikiragocyo, aricyo cyitwaga umusambi.

Nkunda inkono za kinyarwanda ndetse n'uko zibumba zishimishije. Barazifata bakazibumbabumba bakaziha urugara, yewe ukababaza ukuntu bazi zibumbaga n'aho bazitereka, bikakuyobera. Ni abahanga!

Nkunda ibirori kuko biba bishimishije. Yewe n'umuntu waje wifashe udashaka gusabana n'abandi, ibirori biba byiza bigatuma nawe yirekura, agatarama mu gitaramo kimwe n'abandi. Ibirori biba byiza, kuko bihuza inshuti n'abavandimwe. Biba byiza cyane.

Agacuma kaba keza kuko n'umuco nyarwanda barakoresha iyo hari imisango y'ubukwe, gusaba, gushyigirwa cyangwa se hari abashyitsi bagusuye b'abasaza kubaha agacuma kagaragara neza mu maso y'abantu.

Uduseke ndadukunda dutatse aya mabara meza. Iyo ukikoreye kagaragara neza, mu nzira ukubonye yumva nawe yakagutira cyangwa se akakagusaba, ngo atwereremo cyangwa se akagemuremo.

igiseke gitatse amabara kigaragara neza. Iyo ugiteguye nk'ahantu mu nzu, umuntu araza akitegereza, akareba umuhanga waboshye icyo giseke akagiha ayo mabara, akabona kuvuga ngo kirashimishije gishimisha ku buryo bwiza.

Intore ndazikunda, zirabyina nabona uko zikinze amaboko nkabona ziri kubyina neza, yewe ndazikunda yewe n'ibirori abayobozi bajemo zikabyina nabo barazikunda, bikagaragara bakishimima bagaseka bagakoma n'amashyi.

Umugore iyo ari kuboha agaseke ubona aberewe, kandi agaseke kaba kameze neza kuko ni umwuga w'abagore wasimbuye umwuga wo kuboha ibirago. Agaseke kabaye keza kandi gatuma umuntu ajyana ifukirere ubona imubereye. Biba ari byiza.

Kurya ibitoki mbyim'ishyamba batekanye ibishishwa biraryoha, ndetse nk'abantu bagira ikibazo cy'umuvuduko bagomba kurya ibi bitoki iyo bidatogosheje kubera ko nta munyu uba urimo, umunyu ahubwo ushyiramo uwo ushaka kurya, ibihaza nabyo bidufasha ku barwayi baba bafite umuvuduko mwinshi.

Ibyansi biba byiza kukamiramo amata. Biryosha amata ndetse biba n'umutako mwiza mu nzu. Iyo ugiteretse nko mu kabati icyansi kiba cyiza kiba kibereye mu nzu.

Amashuri aba meza, kubera ko abana bayigiramo bakagira ubumenyi bwinshi, ndetse bigafasha kugira ngo abana bazagirire igihugu akamaro, nawe azabone uko yifasha mu gihe azaba ageze igihe cyo kubaka urwe.

Kuvuza ikondera bigaragara mu muhango wa kera, abantu babyize ni aba kera ha ataraza inanga gakondo, intanga z'abazungu iza gakondo nizo zakoreshaga kuvuza ikondera n'iningiri, n'imiduri, zikagaragara neza mu bukwe na bwo mu birori.

Gutera igitemateme kiba cyiza mu rugo . No gukora umuzinga uba mwiza kuko ufata amazi ,ukamirwamo ndetse ikibindi nacyo, kibika imyaka ukaba wanagishyiramo amazi . Biba byiza uko bibika ibintu byinshi.

Isekuru ibaga nziza kuyi sekururamo, ubunyobwa, amasaka ndetse ugasekuriramo ibintu byose, n'umuti wawusekuriramoko kuko isekuru ni nziza n'igikoresho gakondo.

Mu muco nyarwanda abantu barahekaga, kubera ko abami kera batagira imodoka. Bakabaheka mu ngobyi za kinyarwanda. Wabonaga ko byari umuco mwiza kuko n'ubundi byari ugutabarana.

Ingoma zibaga nziza barazivuza, iyo hari ibirori hari abashyitsi bagiye kwakira . Haba hari abantu batojwe kuvuza ingoma ziba nziza cyane . Ufite ingoma azi no kuyivuza biba ari byiza.

Ingobyi ya kinyarwanda ni nziza bayihekamo umurwayi, bakamujyana ku ivuriro, bakamuvura muganga bakamumugezaho ku buryo bwihuse iyo batuye ahantu hataba ibinyabiziga.

Umuco nyarwanda wahozeho， intore zashimishaga abashyitsi， babaga basuye u Rwanda， ndetse ibyiza by’iwacu bakabigaragaza， kuko umuntu wishimye wese arabyina， cyangwa agaseka akamwenyura. Biba byiza iyo intore ziri guhamiriza.

Amacumu yabaga meza, bayarindishaga urugo rw'ibwami, ubundi niyo yari imbunda za kera, umuco gakondo icumu ntacyo yaritwaye, byari rimeze nk'uko uyu munsi, ushobora kugura umuhoro, ukawukoresha akandi kazi, ariko ryabaga uburinzi bw'urugo.

Gukora amafoto cyangwa se ibishushanyo, imitako birashimisha. Iyo bitatse mu nzu uje wese arabirangarira akabyitegereza bikamurangaza biba byiza mu rugo nta kibazo.

Amata araryoha. Yateguwe mu nkongoro ya gakondo yabazwaga mu giti. Ndetse ku isaha yavuriragamo akaba n'ikivuguto.

Gutereka intango mu bantu mu ruhame ,bigaragara neza kuko ni umuco gakondo wa kera abantu bose bayibonye bibukaga ko kera baterekaga intango . Ku bwa Rwanyonga na Rwabugiri, bakoreshaga naho intango , bakanywa mu bantu bose rusange.

Umutako uba mwiza kuwutaka mu nzu uwubonye yifuza kugira ngo nawe azawutake iwe, uba mwiza kugira ngo amaso awurebe, awumve awishimiye.

Nkunda inanga za kinyarwanda, iyo nzumvise bari kuzicuranga, numva ari nziza iza kinyarwanda. Zibanziza, zinaryosha ibirori, yewe bazicurangaga kera, numva ari nziza.

Agaseke kaba keza ugateguramo ugiye gutwerera mugenzi wawe iyo afite ubukwe ukagenda ukikoreye ku mutwe.

Kera habagaho abasaza bagakunda kunwa itabi, mu nkono imwe yagiraga umuseke ikagira akandi kantu kigondoye, bashyiragamo itabi n'igikara bagatumagura imyotsi, nta musaza numwe utarakagiraga uwari ashoboye kunwa itabi, barakagiraga bagakunda kurinwera muri iyo nkono byabaga.......

Igiti cy'igiko kigira ubwerezwa bumeze nk'indabo bwiza busa neza kandi bukaba bwiza buba buboneye. Yewe ku buryo n'ubwo busaza vuba, ariko wawutegura ukabona busa neza.

Umuzinga uba mwiza. Bawukamiramo ibitoki, ndetse ukavamo umutobe abantu bakawunywa. Bakawunywa bishimye, ukabaryohera.

Ishoka iba nziza kubera ko uyitemesha igiti, ukagisatura, urukwi washira mu ziko bigashya vuba, abantu warutekeye bakajya kubirya byarahiye neza.

Umuco wo kubyina uba mwiza. Iyo umuntu azi kubyina ari byo abandi bagira ngo ni uguhamiriza akikorera n'agaseke akakirengera, biba byiza cyane, ubona yaberewe kandi ari byiza, biboneye. Biba byiza cyane.

Intore ziga gukubita ikirenge, kugira ngo zigende hamwe, zikine umukino uryoshye, ndetse ziba zitwaje n'ingabo, kugira ngo zerekane umuco nyarwanda, kugira ngo abantu bose barebe umuco nyarwanda.

Kubika imyaka mu gaseke, wayihunitse, guhunika mu gaseke biba byiza, kuko kaba gapfundikiye n'umutumeri wako, kugira ngo umuntu azaze gusangamo imyaka, yahunitsemo nta kibazo ifite, iyo uyisutse ku ntara, arisutse ku ntara, akayigosora, usanga nta kibazo yigeze igira.

Kubikuza ufite ikarita, uyishyiramo ikarita ikagenda igakurura amafaranga wemejemo, amafaranga ukayafata ukayabika mu mufuka wawe, biba byiza kubera ko nk'ubu nta murongo utonda.

Imashini iba nziza, ituma ufata indirimbo, igatuma ukora ibyo wari ugomba gukora ku mashini, bikagufasha kwempurima kubera ko nubundi iba nziza, bitewe n'uko ari cyo gikoresho cyiza kimara irungu.

Ibikoresho by'ibyuma byose bigira imibare bikoresha. Icyuma ugifashe ukagiha umubare ntiwashyiramo utari wo ngo bize gukunda, kugira ngo gikore iyo uri kugitegeka, bisaba gushyiramo umubare wahagenewe buri tushe igira umubare wayo.

Imashini zikoresha umuriro ziba nziza kuko zidufasha byinshi. Hari zimwe zitwereka amashusho iyo dushaka kugira ngo dushyire ku kibaho abantu bose bige bari kubireba. ziba nziza kubera ko buri wese yigira hamwe na mugenzi we mu ikoranabuhanga.

Gushushanya cyangwa gufata ifoto y'ikintu ukagihinduramo ikindi, birashoboka kugira ngo umuntu abyegireho. Ipine wayihindura, guhindura ishusho y'umuntu byose wabihindura. Guhindura biroroha.

Wubaka inzu ugashyiramo insinga, ugashyiramo utunuza two gukanda amatara kwatariteri, wamara kudushiramo, ugakanda ukabona itara riratse, biba byiza kuko itaboneka umubi.

Nkunda ipense kuyikoresha amashanyarazi ndetse bayikoresha n'amagare. Ubundi ikora akazi kenshi nko kuba wayifunguza amazi wataye urufunguzo.

Sitade iba nziza yakira abantu benshi, inama iyo yabaye bicaramo ari abantu benshi, ubwo bashyiramo ni intebe za masikariye ikaba iteguye neza, ku buryo abashyitsi batabura aho bicara.

Nkunda urusengero rwiza, rugezweho, kuko ruba rwizewe ku mutekano, abajya kurusengeramo, baba bizeye umutekano warwo kuko ruba rwiza.

Kubaka ikigonderabuzima gifasha abantu bose rusange mu mivurire ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi birashimisha. Abagiye kwivuzayo babona aho babakirira batari kunyagirwa birashimisha.

Nagiye gusura ahantu bahinga icyayi. Ndebye inzu ukuntu bazubaka nsanga barubaka, bagera hejuru bakongera bagasakara, kugira ngo haboneke uruhumekero, kugira ngo cya cyayi kitazahirirana muri iyo nzu. Biba byiyiza ukuntu hasakaye, habonekamo ubuhumekero bwiza.

Nkunda inzu bubatse ari etaje iba nziza, iyo ari etaje aba yarashizeho amafaranga menshi, ariko nawe akaba yarubatse inzu ikomeye yewe n' umuryango ukwiye kuwutuzamo baba batuye ahantu heza kuko bafite agaciro.

Urusengero ruba rwiza kubera ko ruhuza abantu benshi, abantu benshi bagiye kurusengeramo bakaba, bafashijwe uko gufashwa kwabo, gutuma buri wese agira ibyo asaba Imana ikabimukorera.

.. umukino w'igare rya siporo. Abakinnyi b'amagare ndabakunda. Baba bari kurushanwa bari gukoresha imbaraga nyinshi. Biba bishimishije kuko buri wese ari guhatanira gutsinda igitego, birashimisha.

Kubaka urugo ukaruzitira biba byiza. Nta musambo ubona uko aza kwiba iwawe uko abonye. Biba byiza gushyiraho uruzitiro rukomeye, ugashyiaraho n'igipangu ndetse na porotayi . Biba byiza kuko uba ushatse ubwirinzi bukomeye.

Ntaruka igira umuriro mwinshi ugacanira abantu benshi, kandi abo bantu bawucanye uwo muriro babona neza, kuko bakanda kugikuta igikuta kikaka, insinga baba barakoresheje bakora urumuriro zigatuma bacana neza, bacana ukaka.

Ku kiriziya hagera abantu benshi. Kubera ko bose baba bari gushaka Imana. Padiri asoma misa, abandi bakamutega amatwi. Akabambwira ngo mwakire umubiri wanjye. Akaba ari ukarisitiya. ubwo bose bakavuga ngo amena.

Kubaka ikigo cy'amashuri ukagiteraho ubusitani. Buba bwiza kugira ngo abanyeshuri cyangwa abana baze babukinireho, bajye babukiniraho agapira, buba bwiza cyane.

Iyo uri mu muhanda ugomba gutwarana amakenga, kugira ngo wubahirize amategeko y'umuhanda, hari ibyapa biba birimo biyobora bikwereka ko hari umuhanda ushamikiyeho.

Kunyura ku kiraro gifite imigozi kiba kiza, gitanga umunyenga, umuntu akinyuraho ari kwicunda kandi ukumva ni byiza, ariko ni abahanga abantu bubaka ikiraro k'imigozi hejuru y'amazi, kandi uko biri kose nta kindi kintu bafatiyeho ari imigozi biba byiza cyane.

Kubaka inzu ukayikomeza bituma umuntu agira icyizere, kugira ngo n'ubundi ejo adahora ari kubabaka. Ni ngombwa ko twubaka tugakomeza ibyo twubatse.

Urusengero ruba rwiza ,murusengeramo ,muhuriramo muri benshi ,mukiga ijambo ry'Imana ndetse mukaruhuka mu mutwe ,abantu batari baziranye bakamenyanira mu rusengero ruba rwiza cyane.

Iyo bari kubaka kiliziya, bajya basiga amadirishya mato, bazashyiramo ibirahure. Kandi, kugira ngo buri wese ajye abona ubuhumekero, kuko kiba gifite abantu benshi, ni yo mpamvu bashyiramo ubuhumekero. Kiba cyiza, kugira ngo buri wese abemo atuje.

Kubaka inzu nini ndetse nziza igeretse biba byiza, kuko uganira n'abashitsi wisanzuye utari kubyigana, naho kubaraza bakaba batabyigana ibyumba biba byisanzuye.

Imodoka igeze mu kiraro ntabwo yakagombye guhagarara, igomba gukomeza kugira ngo itaza guteza impanuka, kugirango abandi bagenzi babone aho banyura, kuko mu kiraro n'ubundi haba hafunganye, kugira ngo buri wese abone umwanya ni uko igomba kuva mu kiraro.

Nkunda gutwara imodoka ahantu hasanzwe hacaniye amatara. Kuko kuwunyuramo ubona ahantu hose ari ku manywa, nta kibazo byagutera. Niyo bwaba bwije bingana gute.

Kubaka ibitaro bikagera mu busitani, bikagira ahantu abantu bagomba kogereza amasahani, biba byiza, ubwatsi burimo bukagira umukozi ubushinzwe, akajya abukata. Biba byiza.

Nzajya kureba inzu zubatswe, umudugudu w'icyitegererezo. Ziriya nzu bambwira ko zubatswe neza. Nzazitambagira njye kuzireba nzigeremo, ndebe, nzikopere, nanjye nzarebe uko nzazubaka, igihe nzaba nabonye ikiraka. kandi ziriya nzu mbona ari nziza.

Abahamya bayehova ndabakunda mbakundira ko icyemezo bafashe ikiba arico ku isaha, umwanya kwica, gahunda biyemeje nk'itorero ryabo ndabyemera ariko ndabagaya kubera ko n'ubundi tagomba kubaho ari gahunda ya reta bagomba kugandukira ubu butegetsi.

Kunyura ku kiraro cy'imigozi kiba cyiza kuko ukinyuraho kiri kuguha umunyenga, abakinyuzeho bumva bishimye kuko kiba ari cyiza ari nk'uburiri wa kwiryamiraho.

Gukora umuganda uha umuganda abaturage batishoboye mububakira amazu, biba byiza ,kuko na bo bibona mu bandi ,bakabona ko bose se bareshya nta muntu n'umwe usumba undi ,bose baba ari bamwe.

Leta yashyizeho gahunda yo kubaka amashuri agezweho. biba byiza ndetse no gutuza abaturage mu midugudu, bakabubakira etaje ku buryo bamwe baba hasi, abandi bakaba hejuru. Bagaturana mu mahoro kuko ni wo mudugudu uba ugezweho.

Inteko y'abunzi ikora neza kuko ihuza abanyarwanda bakabana neza bagaturana mu mahoro kandi bakagenderana mu gihe bose bamaze kwiyunga.

Abaturage iyo bumvise ko haraza umuyobozi ukomeye, baza mu nama bakayitabira kubera ko baba bazi ko uwo muyobozi ari bubakemurire ikibazo cyabo, biba byiza kuko bava aho umuyobozi abahaye igisubizo n'umwanzuro w'ikibazo cyabo, biba byiza cyane kuko biba byakemutse.

Umuyobozi yagiye muri sitade ayobora inama. Yari afite abashinzwe umutekano baramurinda, bamaze kumurinda avuga ibyo ari bubabwire, abaturage bamutega amatwi nawe arishima babana neza. Mu gusezeranaho arababwira ngo "muramuke".

Bayuba kugira ngo abantu babone aho baruhukira, babone aho bategera bitabagoye, ndetse n'imodoka zibone aho ziparika bitagoranye, kugira ngo hataba akajagari.

Nkunda imodoka nini kuzigendamo zimpa umunyenga, nzigendamo ndikureba ibyo hirya no hino, ziba nziza. Cyane kuzigenderamo kuko tuba tutari kubyigana.

Gutegera muri gare biba byiza, kugira ngo aho ugiye ube ufite itike kandi nta mpanuka wateza, igihe uri gutegera ahatari gare. biba byiza kuko ikugeza aho rushaka.

Nkunda gutegera muri gare, habamo intebe zo kwicaraho, kandi ku isaha iyo modoka iyo igiye kugutwara iba fite isaha, ugenda ntabazo kuko uba ufite umutekano, icyo nkundira muri gare.

Igipirigisi kiba cyiza gipakira ibintu byinshi, bapakiraho: ibirayi, ibiti, amashu, ibirayi babipakiraho byose bikagenda.

Abantu batwara amagare bahagarara ku muhanda bategereje abagenzi kugira ngo babatware, kandi buri wese ava mu rugo agambiriye ko arabona amafaranga, byarangira ntabwo bose babona angana.

Kugura imodoka ya kwasiteri uyigura bitewe n'uko urikuvuga ngo izatwara abagenzi benshi, kandi ubageze mu rugendo rw'abao bagiyemo amahoro, ugashiraho umushoferi ukamuha kondisiyo z'uko azubaha abagenzi.

Gukora umurongo muri kwinjira muri bisi biba byiza, kuko bituma abantu binjira bafite disipurine cyangwa se ikinyabupfura. Ubwo rero, buri wese agomba kubahiriza mugenzi we kugira ngo atamuhutaza.

Nkunda imiyoborere y'urwanda, kuko ifasha abantu kugira ngo baze kubona uburyo ki abanyeshuri bataha cyangwa se bajya ku ishuri, iyo bagiye ku ishuri cyangwa bavuyeyo babacungira umutekano ko babahaye ibinyabiziga bibageza aho bataha iwabo cyangwa se ku ishuri bigaho.

Umuhanda iyo ari muto hakabamo ibinyabiziga byinshi, hakunda kuba impanuka, bisaba kugira ngo habe hari abashinzwe umutekano, kugira ngo buri umwe wese amenye uko aratwara ikinyabiziga cye na disipirine, atabangamiye mugenzi we.

Imodoka nini ziba nziza. Zikorera imitwaro myinshi zigatuma ba nyirazo babona amafaranga. Ndetse zikinjiriza amafaranga igihugu kubera ko zisora amafaranga. Iyo zipakiye ziba nziza

Bisi ndayikunda itwara abantu benshi ,kandi ikagira n'umunyenga iryoshya umunyenga ,yewe n'ibiciro bya bisi aba ari makeya gusumbya ayandi y'izindi modoka zijya no mahanga.

Kugenda kuri moto utwawe mu muhanda ukoze neza biba byiza wumva ari umunyenga, igihe uri kagenda mu muhanda w'igitaka mubi uvunika umugongo birababaza.

Gutwara imodoka nini, utwara abagenzi benshi, ukabajyana ahantu bashaka kujya, kandi bakagerayo nabo bagashima kuko ubagejejeyo amahoro.

Abagenzi iyari benshi muri gare, bashakirwa uburyo babonerwa imodoka, kandi bose bagomba gutaha bakajya iwabo imodoka zikabatwara.

Kugenda muri bisi biba byiza yewe yatanga umunyenga. Iyo uyigiyemo ugenda ureba hirya no hino kubera ko aba ari ndende umuntu wese uri kuyigenderamo agenda yishimye kuko agenda atari kubyigana.

Moto ndende ijyaho abantu benshi, cyangwa igapakira ibintu byinshi, iyo ubishyizeho bijyaho neza kuko iba ifite umwanya ugaragara munini, iba nziza kuko yihuta no kwihuta.

Ubwato buba bwiza, babugenderamo, ndetse bukaba buri gutanga umuyenga, ikiyaga ukagitembera neza. Butanga umunyenga kandi ukumva ari byiza, kuko haba harimo n'amahumbezi.

Abanyonzi baba beza batwara abagenzi bakabageza aho bagiye, n'imisego yabo iba iri kunepa. Uyicaraho ukumva wagirango wicaye kuri matela. Biba byiza, ikibuno ntabwo kibabara iyo uyicayeho.

Nkunda gutwarwa n'umumotari ufite isuku ufite na moto nziza nshyashya, kuko bituma nihuta nkajya iyo nari ngiye nkagerayo vuba, biba byiza mu rugendo kuko ntabwo mvunika iyo moto ari nshya.

Umupira uba mwiza kuko habamo kugorora umubiri, yewe abantu benshi baza no kuwureba baje kwishimisha. Tuwukunda kubera ko n'ubundi amaso yacu abereyeho kureba. Turawukunda.

Nkunda koga muri pisine ndetse no mu mazi. Amazi aba meza iyo uzi koga, ugendamo yewe ukumva uranezerewe ukaba urimo kurya umunyenga.

Nkunda gukora siporo. Iyo nayikoze, nirwa meze neza mu mubiri, kandi ubuzima bwanjye nkumva bumeze neza. Njyewe n'abo twakoranye, iyo siporo, birirwa bishimye neza.

Nkunda umukino wa tenisi, iyo uri gukina tenisi uba uri ukomeza amaboko kandi ubushoboye no kurinda ibitego kugira ngo bitaza kwinjira, yewe n'umugongo kubera ko uri kuwukoresha cyane biba byiza bigaragara neza n'imbaraga uba uri kuzongera.

Umukino w'amagare iyo uri gukinwa, ukundwa na benshi, bakaza kuwushungera, bawushungera ari benshi, abantu bose bakunda abantu batwara amagare, kuko babona ari umukino ushimishije, kuko ni siporo iba nziza.

Abantu iyo bahuriraga muri sosiyete buri wese yibonagamo mugenzi bakaba inshuti, ndetse n'uyu munsi bigomba kuba umuco nyarwanda, abantu bagakundana.

Gukina umupira biba byiza urashimisha, abantu bose bari kuwureba, baba bari kureba bakishima, yewe ku buryo abantu bose mu mutwe hahita haruhuka kubera gukina umupira, abakinnyi b'umupira baba ari abantu beza.

Gutumirwa mu nama, ugomba kwitonda ugatega amatwi, uwagutumiye mu nama, akakubwira icyo yagutumiyeho ndetse mukajya inama, mwese mujya inama ku byo mugomba kugeraho.

Imyitozo ngororamubiri, igirira akamaro buri umwe wese ugifite igihe cyo kuwukora kandi biga byiza, iyo ubyinjiyemo ukabyinjiramo ubikunze unabishaka ukabikorana gahunda, iyo bikunze bikugwa neza.

Nkunda umukino wa vore. Abawukina baba bakoze siporo. Nko gusimbuka, kurambura amaboko, ndetse no kwiruka. Yewe uba wananuye umubiri wose. Ingingo zose zarananutse neza, nta kibazo.

Ikibuga cy'umupira kiba cyiza, kiba gifite tapi igaragara neza, igihe cyose bari gukiniraho bakina ubona ari byiza, gukinira kuri tapi biba byiza cyane, iyo uri gukina umupira uba uryoshye, bigaragara neza.

Nigeze kujya kureba umupira, mbona ukuntu bateye ishoti, yewe garidiye ategereza kuyifata, biba ikibazo ndetse n'umukinnyi ashaka kumutera umugeri mugenzi we aramukurura, byabaye byiza kuko ntanumwe wahakomerekeye byabaye byiza, biba byiza iyo ubonye abandi bakurindira umutekano.

Nkunda kujya kureba umupira. Yewe iyo ndikuwureba ntaha nishimye. Yewe mu mutwe haruhutse. Njya kuwureba rwose, njya kuwureba, iyo ndi kuwureba mbona ari byiza cyane.

Abagabo barafatana bagakirana kugira ngo buri wese yumve imbaraga za mugenzi we ,iyo gukina umupira ho hafatana wawundi wa vore kugira ngo atamutanga kugezamo igitego, iyo ateye mushundura mbere abona igitego.

Gukora siporo ugeze mu za bukuru biba byiza, kuko icyo gihe bituma udasaza kuko uhora unanura imitsi, amagufa yawe agakomeza agakomera.

Gukina basikete biba byiza, kuko bituma ugira ingufu mu maboko ndetse no mu maguru, ukaruhuka no mu mutwe ukaruhura n'umubiri wawe, biba byiza cyane iyo ukina basikete kuko uba wananuye intege.

Gukora siporo! imikino ngororamubiri biba byiza kubera ko umubiri uraruhuka, imbaraga zikiyongera yewe nk'icyo bita tenisi, amaboko no kwiruka amaguru aba amenyeye ntakibazo.

Dukunda umukino w'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, iyo bari gukina vore biranshimisha kuko numvaga ari abantu nk'abandi, nta muntu ufite amaguru n'amaboko ubasumbya. Biba byiza kuko baba bakina bakishima kimwe n'abandi.

Gukora siporo yo kwiruka ibihaha birafunguka ndetse ukagira n'imbaraga, umutima n'impyiko zigakora neza ukaba umuntu wujuje ibyangombwa, kuko umuntu urwaye bamutegeka siporo kubera ibiro byinshi, cyangwa se umuvuduko w'amaraso.

Nigeze kujya muri siporo, uwo munsi mpuriramo n'abandi baje muri siporo, duhura turi abagabo bakuru, ndetse twese dukeneye kugorora imibiri, ariko natashye naniwe navunaguritse, ku buryo siporo ntabwo nabonye ntayishobora

Kurusi y'amagare, abantu basiganwa bagashyiramo imbaraga nyinshi, kugira ngo buri wese abone umusaruro n'icyo arahembwa. Nahembwa umuryango we uzishima, umuntu yishimire igikombe atwaye. Buri wese ahatanira kugira ngo atsinde.

Nkunda kujya kureba umukino wa vole . Abagore iyo bari gukina kuko bakinana imbaraga nyinshi birashimisha, nkabona ari byiza ,birashimishije.

Umuntu ukina umupira akinana imbaraga akagaragaza imbaraga nyinshi mu gihe ari gukina, kugira ngo abo ari kurushanwa nobo abatsinde ibitego byinshi, udafite imbaraga ntiwabatsinda.

Kugura umupira wa vore uba mwiza, kuko uba uboshye unameze neza, ufite isura nziza, uba mwiza kuko abantu bawukina bakishima. Wawukina ukumva intoki zitari kubabara. Uba ari mwiza.

Abagore bakora siporo ubona ari beza, kuko baba baragoroye umubiri, bameze neza. Yewe baba bateye neza kuko bafite forume kubera gukora siporo. Umugore ukoze siporo, ibaga nziza cyane, aba agororotse.

Gukina umupira nta bugome bubamo, gukina umupira haba harimo umwanya wo kugira ngo buri wese ahatanire kugira ngo izamu rye atsinde, gutsinda bimuha umutekano bikamuha n'igikombe akagitwara, ni cyo cyiza cyo gukina umupira.

Sitade ikinirwamo umukino w’umupira bita vore, iba yubatse, barayikuruye isima. Iba inyereye ku buryo utazi kwirinda wahakomerekera ibisebe, ugatahana ibiguma.

Kugura imodoka nziza yaguha ishema mu bandi, abandi bakumva wagomba kubarangira aho waguriye imodoka nziza. Biba byiza rero iyo uguze inziza buri gihe bose bahora bavuga ngo yaguze imodoka nziza.

Gukina vore urasimbuka udasimbutse ntabwo ngo watsinda igitego, kuko ku isaha bisaba ko uba ufite umwanya n'umuvuduko wo kwinyagura kugira ngo ubone uko utera ikiro, biba ari byiza kuko uba uri umusore ufite n'imbaraga.

Igare mu muhanda riba ryiza rikora akazi kenshi. Ritwara abantu bagiye ku kazi, bigatuma bihuta bakagakora neza bakagenda neza. Iyo birangiye na nyiraryo rimwinjiriza amafaranga ntabwo ripfa ubusa.

Ikidomoro kiba cyiza, iyo kigiye kuvoma amazi ukaza ukayaterekamo ,kiba ari igikoresho kiyabitse neza, kuko kimara iminsi nta kibazo kigize.

Igare turigendaho tugatwara ibidomoro, tukabijyana ku mugezi, amazi twayazana tukayateka tukakayanywa araryoha.

Gutwara moto biba byiza, kuko iyo uyitwaye ubona amafaranga, ukagaburira umuryango wawe, abana bakenera amafaranga ukayabaha, kugira ngo ubone uko biga. Biba byiza cyane, ewe gutwara nta ko bisa.